Aha ni mu mwaka wa bibiri na ,cumi na karindwi ubwo abaturage n'abayobozi bari bateraniye hamwe bari kuganira ku kintu runaka, umuyobozi yasuhuje umuturage umuturage nawe we amusuhuza yishimye, hari hari n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda bari bari mu itente ritatse amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe birasa naho bari mu nama, bambaye neza cyane abenshi bafite mudasobwa imbere, hari abafite uducupa tw'amazi, hari umwe ufite ikayi uri kwandika, imbere yabo hari televiziyo yerekana ibyo bari kuganiraho.

Ni abantu benshi bateraniye mu nama, bicaye ku ntebe zizengurutse, imbere yabo hari icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda mu Mujyi wa Kigali, kandi imbere yabo hari umuntu uhagaze usa nk'uri kuvuga ijambo.

Aha haragaragara abantu benshi cyane imbere hari umugabo wambaye ikote ry'uburu, hari n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'umweru yambaye amarinete, yambaye n'amaherena. Imbere yabo bafite uducupa tw'amazi bicaye ku ntebe zisa umutuku, buri muntu ari kureba ahe basa naho bakurikiye ijambo riri kuvugirwa imbere.

Abantu benshi basa naho bari mu nama hari umusirikare w'Urwanda harimo abagabo benshi bambaye imipira y'ubururu hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu hari n'umugore wambaye ipantaro y'umutuku baritonze cyane basa naho bakurikiye ijambo riri kuvugirwa imbere.

Ameza maremare cyane ari mu ibara ry'igitaka, yicayeho abantu benshi batandukanye bari mu nama, bakurikiye umuntu wicaye imbere yabo arikuha ijambo, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, bafite amakaye yo kwandikamo ibyo bari buze gutahana.

Burya umugore nawe afite ijambo, aba ni abagore batatu bisa n'aho bayoboye inama, bicaye imbere y'abandi bantu, hari umugore umwe wambaye ikanzu y'umutuku afite umusatsi mukeya, hari n'undi uri hagati y'uri kuvuga ijambo, hari n'undi wambaye umupira w'amaboko magufi ari muri terefone, bose bari imbere basa nk'aho bayoboye igikorwa kiri kubera aha hantu.

Abantu bicaye neza batuje, basa nk'aho bakurikiye umuntu uri imbere yabo, harimo umugore umwe ufite imisatsi miremire, ufite mudasobwa imbere ye, hari n'umugabo na we ufite mudasobwa imbere ye, inyuma abicaye inyuma bifashe neza, harimo abazungu harimo n'abirabura, bose baratuje bakurikiye umuntu uri kubaganiriza.

Imbuga y'amapave irimo umusore wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ijire iri mo ibara ry'icyatsi n'ingofero mu mutwe, hari icyapa kigaragaza ko hakorerwa ibikorwa by'irembo, hari n'icyapa kigaragaza ko habera ibikorwa byo gufata amafoto.

Inzu ikorerwamo ibintu bijyanye n'koranabuhanga harimo abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umukara undi wambaye umupira w'cyatsi; umugabo wambaye umupira w'umukara ari imbere ya mudasobwa arakurikiye cyane undi wambaye umupira w'icyatsi ari kumubaza ibintu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiramenyesha abaturage ko uyu munsi ari wo ntarengwa wo kwishyura imisoro, bityo rero ko bagomba gukanda akanyenyeri magana inani urwego, bakishyura umusoro cyangwa se bagasura urubuga rwabo, banyuze kuri wawawa akadomo govu akadomo rwa.

Amapoto atatu ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hasi y'ayo mapoto hari abantu benshi cyane, hirya hari inyubako yitwa simba supamaketi icururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, abantu bashobora kujyayo bakihahira ibyo bashaka.

Ipoto rinini ritwara umuriro w'amashanyarazi rikawukwirakwiza mu baturage, inyuma yaryo hari inzu nziza yubakishije amabati y'umutuku, iruhande rwaryo hari icyapa cyitwa buritamu cy'ubwishingizi, hari n'icyapa kigaragaza ko hakorera irembo.

Amapoto abiri rimwe ritwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, irindi rifite itara ryo ku muhanda ari imbere y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye hasi hari amapave, hirya yaho hari ibiti birebire cyane.

Abantu babiri bambaye udupfukamunwa ni umugore n'umugabo umugore yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku, umugabo yambaye ikanzu ndende y'umukara, ifite akabara k'umweru imbere, afite mudasobwa imbere ye, ari kureba muri telefone ndetse umugore yitegereza ibyo umugabo ari kureba.

Inzu nini cyane irimo abagabo bicaye bambaye amakabutura n'amashati asa igaragara nk'aho ariyo imfungwa imbere yaho hari abagabo bambaye amakanzu y'imikara abari mu iyo nzu bose bambaye udupfukamunwa abo bagabo bambaye amakabutura bigaragara nkaho bari kuburana.

Aha n’ mu ishyamba rinini cyane hari abaturage bicaye hasi hari n'abayobozi bicaye ku ntebe imbere yaho hari ameza hari n'umugabo ubahagaze imbere bisa nkaho ari gusobanura ku cyo yabajijwe, abo baturage bavanzemo abagore, n'abagabo bisa nkaho bari mu nama.

Abagabo babiri bambaye amarinete hari umwe wirabura hari n'undi w'inzobe umwe wirabura afite imisatsi, uwinzobe nta musatsi afite umugabo w'inzobe yambaye ikanzu y'abacamanza ari kuvuga ijambo bisa nkaho hari uwo ari gucira urubanza.

kugirango wemererwe gutwara ikinyabiziga cyose ni ngombwa ko ubanza gukora ikizamini, aha rero hari umupolisi uri gukoresha ikizamini cya moto, ari kugikoreshereza mu muhanda w'igitaka, arerekana ko uyu muntu uri gukora ikizamini yatsinze.

Abantu benshi bahagaze hamwe bari imbere y'inzu ifite amabara y'ubururu, bateze amatwi ijambo ry'umugabo ubahagaze imbere, uwo mugabo yambaye ishati y'amaboko magufi, yambaye karuvati y'umutuku, yambaye ipantaro y'ubururu, yambaye n'inkweto nziza. Afite indangururamajwi mu ntoki, ndetse azamuye n'akaboko ke bisa nkaho hari umuntu ari kubwira.

Aha hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare afite mikoro mu ntoki ze bisa naho ari kuvuga ijambo ari kwihaniza abantu kuko yazamuye akaboko ke inyuma ye hari abagabo babiri bambaye imyenda isa bambaye amajipo y'umukara bambaye n'amashati y'umweru.

Abantu benshi bacucitse bari mu gikorwa cyo kwamamaza bari mu murenge wa karambo akagari ka karambo icyapa bafite kiriho ifoto ya perezida paul kagame cyanditseho tora paul kagame umuturage ahore k'isonga kiri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Hari amashyaka menshi akorera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ishyaka rya efuperi inkotanyi riri mu mashyaka akomeye cyane. Ikirangantego cy'iri shyaka, kigizwe n'amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umutuku, n'umuhondo. Mo hagati mu kirango harimo umutwe w'intare, harimo izuba, harimo n'amazi. Iki kirango gikunze gukoresha amagambo agira ati "demokarasi, ubumwe, amajyambere."

Aha hari abagabo batatu bahagararanye babiri bambaye ikositimu na karuvati undi yambaye umupira w'umweru, inyuma y'aba bagabo hari umugore wicaye wambaye amarinete hari n'ibyapa bitatu bishushanyijeho ifoto y'umugabo, bigaragara ko bari kumwamamaza umugabo uri hagati afite indangururamajwi ari kuvuga ijambo.

Abaturage benshi cyane n'abasirikare, baherekeje umugore wambaye ikanzu ndende afite imisatsi mikeya ari guseka, azamuye akaboko ke, uyu mugore ari kumwe n'umugabo wambaye ikote rya kositimu, yambaye n'ishati y'umweru mo imbere, afite ibipapuro mu ntoki ze.

Ishyaka rya efuperi rigira abanyamuryango benshi abo bantu ni abari kwamamaza umukandida perezida Poro Kagame, kugirango ngo bazamutore abe umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda bityo abashe kuyobora abanyarwanda neza abageze ku iterambere nk'uko yabyiyemeje

Uyu ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda yitwa Paul Kagame, ari kwiyamamariza mu baturage kugira ngo bazamutorere ubuyobozi, inyuma ye hari abapolisi benshi bamurindiye umutekano, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ikora, yambaye ingofero, yambaye n'amarinete, yashimiye abaturage ari guseka na bo bamwakiranye ubwuzu.

Abamotari babiri bari ku muhanda wa kaburimbo, umumotari w'imbere ageza aho abanyamaguru bambukira, bombi bambaye kasike mu mutwe bambaye amajire y'umuhondo n'ubururu imbere cyane hari amazu menshi cyane bigaragara ko hano ari mu mujyi.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka isa ubururu. Iyo modoka yikoreye ibyuma, mo hagati harimo umugabo usa nkaho ari kubipakira, iri imbere y'iduka ricuruza sima ryitwa cita.

Iki ni icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu, gifitemo umuzenguruko w'umutuku, gifite ibara ry'umweru, mo hagati harimo igishushanyo cy'umukara, iki cyapa gikoreshwa mu mategeko y'umuhanda, inyuma yacyo hari ibiti byiza bitanga akayaga n'amahumbezi.

Uyu ni umuhanda w'igitaka iruhande rwawo hari igipangu gifite amatafari ahiye, uyu muhanda uwushamikiye ku wundi wa kaburimbo, harimo imodoka y'umukara iri kwerekeza imbere, imbere hari igipangu cyanditseho mitsingi.

Inzu y'amagorofa 5 yanditseho simba hasi hari imodoka nyinshi hari abamotari babiri umumotari umwe yambaye kasike y'umuhondo undi yambaye kasike y'umutuku hari abantu benshi bahagaze hasi yiyo nzu.

Uyu ni umujyi mwiza cyane, urimo amagorofa menshi meza atandukanye, harimo ibiti byiza bitanga akayaga n'amahumbezi, imbere ndahabona resitora yitwa impara, iyi resitora ni nziza cyane, ushobora kuyijyamo bakaguha ibiryo byiza, bitetse neza kandi bifite ubuziranenge.

Ubusitani bwiza burimo ibiti biri ku murongo buri mumuhanda wa kaburimbo harimo amakafe meza cyane hari n'igikuta kirekire cyubakishije amabuye uwo muhanda rero hari guturukamo ibinyabiziga bibiri by'umweru hari amataramo hagati amurikira abagenzi.

Imodoka eshatu ziri mu muhanda wa kaburimbo, hari akayira k'abanyamaguru hari n'ubusitani mo hagati, imbere yazo hari ibiti birebire cyane bimeze nk'aho bikoze ishyamba bitanga akayaga n'amahumbezi.